Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutuma abaturage ndetse n'Igihugu tugira ubuzima bwiza, akarima k'igikoni gatewemo imboga zigiye zitandukanye nk'imbwija, ibitunguru, amashu ndetse hahagaze umuntu uri gushyiramo ifumbire.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori, hahagazemo abantu benshi batandukanye, buri umwe afite indobo irimo ifumbire, ari kugenda ashyira kuri buri kigori.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwageze kuri bose, umurima mugari cyane utewemo ibihaza, ndetse hatewemo n'ikawa risasiwe neza. Harimo abagabo batatu bambaye imyenda yiganjemo umweru n'umukara n'ubururu, bafite ibase irimo ifumbire.

Guhinga dukoresheje ifumbire biri mu bimwe bituma ibihingwa byacu byera neza. Inzu yubakishijwe amatafari ndetse n'ibyondo irimo imifuka igiye itandukanye iteretse kuri shitingi. Inyuma ku mufuka hashushanyijeho ibimera.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi, amacupa ndetse n'udukarito turimo imiti twifashisha tuvura amatungo, n'indi twifashisha dushyira mu myaka. Harimo ibikoresho twifashisha tuvomerera imyaka.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange, umurima mugari cyane utewemo amashu agiye ateye ku murongo, impande yaho hateye soya, hahagazemo umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibinyomoro bigiye bisasiwe. Hamwe hateyemo ibishyimbo bisa nkaho bikimera. Hahagazemo abantu batatu, umwe afite ikoti mu ntoki, abandi babiri bafite ibinyomoro mu ntoki.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane uhinzwemo igihingwa mbaturabukungu kizwi nk'icyayi; impande yaho hakikijwe ishyamba n'amazu yubakishijwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo imyumbati ndetse hamwe hagiye hashashemo ibyatsi byumye, Impande yaho hahagaze umugabo ufite isuka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibinyomoro, hashashwemo ibyatsi byumye. Hahagaze abagabo bagera kuri batandatu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Higanjemo icyatsi, umutuku ndetse n'umukara.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, imitabo ihinzwe neza cyane itewemo ibirayi, harimo umuntu uhagazemo wambaye ingofero y'umukara, ipantaro y'umukara na bote afite isuka, impande y'aho hari inzu zisakajwe amabati atukura.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibigori, undi harimo abahinzi bari guhinga bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umukara. Impande yaho ku nkengero z'umurima hari ibiti bitandukanye, ibiti by'amapera n'ibya avoka.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini cyane uhinzwe neza, hateyemo ibishyimbo bitarera neza, harimo umuntu wambaye bote ufite isuka uri gutera.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiriho imifuka yuzuyemo umuceri, umwe usutse hasi ku mashitingi, hakikijwe n'ibiti by'amoko menshi atandukanye, harimo n'abantu bari kugosora umuceri.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda n'Abaturarwanda muri rusange. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori bigiye biteye ku murongo, bisa nkaho byeze, ndetse hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite ibigori bigera muri bitanu mu ntoki, bikuweho amababi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo insina n'ibigori bisa nk'aho byeze; hari undi murima usa nk'aho uhinzwe vuba utewemo imigozi y'ibijumba, hahagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara ufite isuka.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, uhinzwemo ibiti by'imyembe, bigiye bitera ku muronko. Bimwe bireze, ibindi nti birera, hahagazemo umuntu ufite igitebo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima uhinzwemo ibigori neza cyane, harimo n'igihaza gihinzwemo kandi baragishingiriye, hahagazemo umugabo wambaye ingofero ndetse n'ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, utewemo ibishyimbo ndetse n'amateke. Impande yaho hari ibiti byeramo voka, n'insina, hari inzu yubakishijwe amategura.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, kuko ziri mu bimwe bituma tugira ubuzima bwiza, kandi bikaturinda indwara. Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bari kugura abandi bari kugurisha imbuto nk'ibinyomoro, amatunda n'indimu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwageze kuri bose; umurima mugari cyane ugiye utewemo karoti, zigiye ziteye mu mitabo. Impande yawo hari umurima munini cyane utewemo ibijumba ndetse n'ibigori, hahagazemo umuntu ufite igikoresho cyifashishwa tuvomerera ibihingwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko. Bamwe bari kugura, abandi bari kugurisha. Imifuka irambitsweho ibijumba n'ibitunguru. Impande yaho hari umugore wicaye hejuru y'umufuka. Undi yikoreye ibase irimo ibitunguru.

Ubuhinzi mbaturabukungu bumaze kutugeza kure mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo icyayi, harimo abasoromyi bahetse intebo bari gusoroma. Imbere yabo mu muhanda hahagaze abantu babiri bambaye imipira y'umukara n'undi umwe wambaye uw'umweru.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Akarima k'igikoni gahinzwemo ubwoko bw'imboga butandukanye, karoti, imbwija, amashu, ndetse harimo n'imiteja. Hahagazemo abantu babiri bambaye ingofero z'umukara, bambaye imyenda y'umukara. Impande yabo hari inzu isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amakarakara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewe utewemo imbuto zigiye zitandukanye: ibinyomoro, amapera n'indimu, hahagazemo abantu bambaye imyenda igiye itandukanye. Bamwe muri bo bafite ifumbire mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bamwe bari kugura abandi bari kugurisha imiteja, ibitunguru, sereri, karoti n'intoryi. Umwe yikoreye ibase irimo intoryi undi afite ibasi irimo karoti, harimo imifuka ipakiyemo ibijumba.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini cyane uteyemo ubwoko bw'ibiti bugiye butandukanye. Harimo voka, hakabamo n'izindi mbuto nk'ibinyomoro ndetse harimo n'imyembe. Hahagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umukara uri gufata kuri voka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye, amashu, ndetse hahinzemo n'urusenda. Harimo ikigega cyohereza amazi mu murima, hahagazemo n'umuntu ufite ibase y'ubururu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje kuduteza imbere, indinganire zigiye ziteweho ubwatsi ku miringoti hahagazemo abagabo bagera ku munani buri umwe afite isuka, impande yaho hari umurima wezemo ibigori.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini cyane uhinzwemo ibigori, hagati haciye umuhanda usa nk'aho watembanwe n'isuri. Hahagazemo abagabo batatu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini cyane gihinzwemo umuceri usa nk'aho wayobowemo amazi, hahagazemo umugore usa nk'aho ari kuwubagarira, impande yawo hakijijwe amashyamba.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri utemba itoto usa nkaho urimo amazi. Impande yaho hari inzu zisakaje amabati atukura ndetse hahagaze umuntu wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihingwa kizwi nk'icyayi kikaba ari igihingwa mbaturabukungu. Kigiye giteye ku murongo neza hagati hagiye harimo ibiti, ndetse impande yaho hari abantu bahahagaze, bamwe muri bo bari gusoroma.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima umeze nk'usaruwemo ibishyimbo, imishingiriro yegetse ku mukingo, hari inkoko eshatu, ebyiri z'umweru n'imwe y'umutuku.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro byubakishije ibiti ndetse n'imbaho harimo inka ziryamye. Imbere yaho haziritse ihene nini n'umwana wayo ziri kurya ubwatsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere Abaturarwanda ndetse n'Igihugu muri rusange. Inyubako nini cyane irimo inkoko nyinshi, ziri gutora ibyo kurya. Zimwe zirahagaze, izindi ziraryamye. Hicayemo umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Ubworozi bukomeje gufasha abaturage ndetse n'igihugu muri rusange gutera imbere. Ikibuga kigari cyane, gihagazweho n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, bafite ingurube, basa nkaho bari kuzigurisha, abandi bakagura. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amatungo maremare aduha ifumbire, amata, inka ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, inyuma hakikijweho ibijagari. Inka nini n'umutavu wayo, biri kumwe mu kiraro.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange, ikiraro cyubakishijwe ibiti kikaba gihomeshejwe ibyondo imbere y'aho hari inkoko nyinshi, zimwe ziraryamye izindi ziri gutora ibyo kurya.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje gutezambere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibirayi ndetse n'ibigori, imbere yaho hari umurima urimo ibitoki, uhagazemo abana babiri umukuru n'umwana bafite amahene abiri.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako isizwe isima, harimo inkoko zigera kuri makumyabiri, zimwe ziri hanze ziri gutora ibyo kurya, hahagaze umuntu wambaye imyenda isa umukara.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro byubakishije imbaho n'ibiti, harimo ibibwana by'ingurube biri kurya ibiryo mu bikoresho byabyo bakoresha babigaburira. Biri mu byatsi byumye.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro birimo inka zigiye zitandukanye zirimo amabara y'umukara n'umweru; imwe muri zo iraryamye. Imbere y'ikiraro hari inkoko zimwe zisa umukara izindi zisa umweru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibigori, harimo abantu batatu bambaye imipira y'umutuku, bikenyeje ibitenge, ndetse bamwe muri bo amaso ntagaragara neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo igihingwa cy'urusenda. Impande yawo hari ibitunguru n'izindi mboga zitandukanye: nk'imbwija, intoryi na karoti.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda; umurima mugari cyane uhinzwemo urusenda rugiye rutewe ku murongo, hashashwemo ibyatsi byumye, hahagazemo umugore ufite ibase y'ubururu, usa nk'aho ari guca insenda azishyira mu ibase.

Ubuhinzi mbaturabukungu bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo icyayi, harimo abasoromyi bari gusoroma, ruguru yaho hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko bitandukanye.

Ubworozi bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane kirimo inka z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye; harimo umugabo uhetse igikoresho kifashishwa mu kuvomerera imyaka n'undi wicaye ku giti.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zifite amadirishya y'umweru. Hejuru hahagaze inkende eshatu, imwe itwaye umwana wayo. Impande yaho hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti by'imikindo.

Inyamaswa ziri muri bimwe bikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda mu kwinjiza amadovize. Impara n'imparage zihagaze ahantu hamwe mu ishyamba ryiza cyane ndetse hirya yaho hari inzovu, zikaba zihagaze ahantu hamwe.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, rikaba ritewe irangi risa umweru. Inyuma yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo inkende zigera kuri eshatu, zimwe muri zo zifite umuneke, indi nini iteruye umwana wayo.

Amashyamba nka Nyungwe akomeje guteza imbere igihugu akurura ba mukerarugendo. Ikiraro kinini cyane kirimo abantu bagera kuri bane, bamwe ni abanyamahanga, abandi ni Abanyarwanda, bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umukara.

Inyamaswa ziri mu bimwe bikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo impara n'imparage. Zimwe ziri kurisha ibyatsi hasi, izindi zirahagaze.